Ubuhinzi bw'imboga bukomeje guteza imbere abaturarwanda muri rusange, umurima mugari cyane uhinzwemo intoryi hahagazemo umugabo uhetse ipombo mu mugongo uri kuvomerera intoryi yambaye imyenda itukura.

Umurima mugari cyane utewemo ibitunguru bigiye biteye kijyambere, hagati hahagazemo umugabo wambaye imyenda y'umukara ahetse ipombo mu mugongo ari kubitera umuti wica udukoko.

Umurima mugari cyane ukikijwe n'ibiti uhinzwemo umuceri, hahagazemo umugabo wambaye bote, ipantaro y'umukara ndetse yambaye n'umupira w'umuhondo n'agapfukamunwa, ahetse ipombo ari gutera umuti wica udukoko.

Umurima mugari cyane utewemo amashu agiye ateye kumurongo ndetse n'ibigori bigiye bikikije ku ruhande rw'amashu, harimo umugore wambaye ipantaro y'umukara, umupira utukura, ahetse ipombo ari gutera umuti kugira ngo yice udukoko.

Umurima mugari cyane utewemo ibishyimbo bigiye biteye ku muronko, hahagazemo umugabo wambaye bote z'umukara n'imyenda y'umweru ahetse ipombo mu mugongo, ari kubitera umuti kugira ngo yice udukoko.

Umurima mugari cyane utewemo umuceri utemba itoto, hahagazemo umugabo wambaye ipantaro y'umukara yayihinnye yambaye n'umupira w'umweru, ahetse ipombo ari gutera umuti umuceri.

Umurima mugari cyane utewemo ibigori. Impande hahagaze umugabo wambaye amadarubindi, isarubeti y'umukara afite igihombo ari kuvomerera ibi bigori. Impande hari abandi bagabo bahagaze bafite imashini mu ntoki.

Igishanga kigari cyane gihinzwemo umuceri, hahagazemo umugabo wambaye imyenda y'ubururu ahetse ipombo, ari kuvomerera umuceri, iruhande hari ishyamba rihakikije.

Umurima mugari cyane utewemo ibishyimbo ndetse n'ibirayi, hagati harimo ibiti bibiri by'avoka, harimo umugabo wambaye bote, imyenda y'umukara n'umupira w'umweru ahetse ipombo mu mugongo ari kubivomerera.

Umurima mugari cyane utewemo ibirayi bitemba itoto, hahagazemo umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira utukura ahetse ipombo ari kubitera umuti kugira ngo yice udukoko turimo.

Umurima mugari cyane utewemo inanasi, imbere hari umugabo wambaye ikote ry'ubururu ahetse ipombo ari gutera inanasi umuti, impande hari umugabo wambaye ishati y'umweru afite amakayi n'ikaramu mu ntoki.

Umurima mugari cyane utewemo umuceri, hagazemo abagabo babiri, umwe yambaye icyatsi undi yambaye ubururu, buri umwe afite ipombo mu mugongo ari kuvomerera, impande yawo hakikijwe n'ibiti.

Umurima mugari cyane uhinzwemo ibigori, hahagazemo umugabo wambaye imyenda y'umukara, bote ndetse n'umupira w'ubururu, afite ipombo mu mugongo, ari gutera ibigori umuti.

Uburobyi budufasha kugira ubuzima buzira umuze. Igishanga kigari cyane kirimo ibyuzi. Hahagaze umugabo wambaye bote z'umuhondo n'umupira w'icyatsi, ari guteramo umuti mu byuzi.

Ibyuzi bikikijwe n'imirima irimo ibitoki. Harimo supanete bifashisha baroba amafi. Iruhande ku murima uhari, hahagaze umugore wambaye umupira uri mu mabara y'umuhondo.

Igishanga gihinzwemo umuceri usa nkaho wuzuye amazi, iruhande hari icyuzi arimo abagabo bagera kuri batandatu, bafite igikoresho bifashisha baroba amafi, bari kukizamura bagikura mu mazi.

Uburobyi bukomeje guteza imbere igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange kuko amafi atuma tugira ubuzima buzira umuze. Icyuzi cyubakiyemo inzu isakaje amabati y'ubururu. Iruhande hari amashyamba ahakikije.

Icyuzi kigari cyane hagazemo umugabo uri guseka. Yambaye ijiri iri mu mabara y'ubururu, umukara n'umweru afite supanete isa ubururu ari kuroba amafi.

Icyuzi kigari cyane hahagazemo umugabo wambaye isarubeti isa nk'igitaka, yambaye n'umupira w'ubururu ari kuroba amafi akoresheje supanete isa umweru.

Ibyuzi bikikijwe n'amazu yubakishijwe amatafari ahiye akaba asakaye amabati y'ubururu n'umweru, impande hari abagabo batatu bafite imifuka mu ntoki ndetse hari n'ikigega.

Uburobyi bukomeje kuduteza imbere no gutuma tugira ubuzima bwiza, icyuzi hahagazemo umugabo wambaye imyenda iri mumabara y'umuhondo, afite ibase y'ubururu irimo amafi amaze kuroba.

Ibyuzi ni ingirakamaro ku buzima bwa muntu. Ibyuzi bibiri hagati hahagaze abagabo batanu. Umwe yambaye imyenda y'umukara undi yambaye imyenda isa umweru. Umwe ari gutunga akaboko.

Icyuzi kiri mu bintu bituma tugira ubuzima bwiza kuko tukiyifashisha turoba amafi, abagabo bagera muri batanu bafite supanete bari kuroba amafi, bambaye imyenda iririmo amabara atandukanye higanjemo umutuku n'ubururu.

Icyuzi kigari cyane gikikijwe n'imirima, imbere y'aho hari abantu batatu bari guhinga ndetse hari n'undi muntu ufite ifi mu ntoki yamaze kuroba.

Igishanga kigari cyane gitewemo umuceri, hahagazemo abantu batatu, impande yaho hari icyuzi ndetse hakikijwe n'ishyamba, hari umugabo umwe, ahetse ipombo mu mugongo ari kuvomerera.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ibirayi. Hagati hari imashini zifashishwa mu kuvomerera iki gihingwa. Harimo abagabo batatu bambaye amajire asa ubururu.

Ibyuzi ni ingirakamaro kuko bitanga amafi bityo bigatuma abaturarwanda tugira ubuzima bwiza. Ibyuzi bikikijwe n'ishyamba ririmo ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'inzu zubakishijwe amategura.

Ibyuzi twifashisha turoba amafi, impande yaho hari umurima uziritsemo amahene, hahagazemo umugabo wambaye imyenda iri mu mabara y'umukara, afite inkoni mu ntoki yambaye n'isaha ku kuboko.

Uburobyi bw'amafi bukomeje guteza imbere igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange kuko bituma tugira ubuzima bwiza, ibyuzi bikikijwe n'amashyamba, amafi yarobwe arambitse hejuru, hari umuntu wambaye imyenda y'umweru ari kwerekana amafi.

Uburobyi ni ingirakamaro ku buzima bwa muntu, icyuzi gikikijwe n'ibyatsi, iruhande hahagaze abagabo batatu n'abagore babiri, umugore umwe afite ibasi itukura undi mugabo afite igikombe gisa ubururu.

Igishanga kigari cyane gitewemo umuceri usa nkaho urimo amazi, harimo abantu bagera kuri batanu bafite udusuka duto bari kubagarira umuceri, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye.

Umurima mugari cyane utewemo igihingwa mbaturabukungu kizwi nk'ikawa. Zikaba zeze hahagazemo umugabo uri kuzisoroma, ari kugenda ashyira mu ibase isa ubururu ndetse n'igitebo.

Umurima mugari cyane utewemo igihingwa cy'ikawa kizwi nk'igihingwa mbaturarabukungu, harimo umugore wambaye umupira w'umuhondo n'ingutiya y'igitenge, afite icyuma ari kugenda agabanya amababi.

Umurima mugari cyane utewemo ibihingwa bitandukanye, ibihaza, ibijumba ndetse n'imyumbati, harimo icyapa ndetse n'umugabo uri kugikoraho wambaye imyenda yiganjemo umukara n'umweru.

Umurima mugari cyane utewemo ikawa hahagazemo umugore wambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu n'umutuku yambaye agapfukamunwa ndetse n'ishapure, ikawa isasiwe n'ibyatsi byumye.

Umurima mugari cyane utewemo ikawa izwi nk'igihingwa mbaturabukungu, impande hatewe ibitoki, harimo abagabo babiri n'umugore umwe bari gusarura ikawa bayishyira mu gitebo.

Umurima mugari cyane utewemo ikawa, ikaba isashijwe ibyatsi byumye, imbere hari icyapa cyanditseho amagambo yandikishije mu mabara y'umukara, iruhande hari ubwatsi twifashisha tugaburira amatungo.

Umurima mugari cyane utewemo ikawa rizwi nk'igihingwa ngandurabukungu, harimo abantu benshi cyane bafite indobo, ibitebo byasaruwemo ikawa.

Umurima mugari cyane utewemo icyayi gisa nkaho cyatemwe, hahagazemo umugabo ufite telefone iri ku gutwi yambaye ingofero y'umukara ahetse igikapu ndetse impande y'icyayi hakikijwe n'amashyamba.

Umurima mugari cyane utewemo ibitoki ndetse n'ikawa izwi nk'igihingwa ngandurabukungu, imbere yawo hari inzu itewe sima ikaba isakajwe n'amategura.

Umurima mugari cyane utewemo igihingwa cy'icyayi kizwi nk'igihingwa mbaturabukungu, harimo abagore babiri n'abagabo babiri, buri umwe ahetse igikoresho ari kwifashisha asoroma, impande hakijijwe ishyamba.

Ikawa isutse kuri supanete iri ku biti, imbere hari abagore bane bambaye imyenda iri mu mabara y'icyatsi, umukara n'umutuku, buri umwe ari gufata mu ikawa, inyuma yabo hari ibitebo ndetse n'inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Igihingwa mbaturabukungu kizwi nk'icyayi, abagabo babiri bambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi n'ingofero z'icyatsi, bafite icyayi bari kukijyana mu ruganda kugitunganya.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, umurima mugari cyane utewemo igihingwa mbaturabukungu kizwi nk'ikawa hamwe zireze ahandi ntizirera neza.

Ikibuga kigari cyane kirimo abagore bagera ku munani, buri umwe afite inkoko ari kugosora ibishyimbo, bambaye imyenda iri mu bitenge ndetse inyuma yabo hari umugezi utemba.

Umurima mugari cyane, utewemo igihingwa kizwi nk'icyayi, ni igihingwa mbaturabukungu gituma u Rwanda rutera imbere, hahagazemo abagore babiri bari gusoroma, buri umwe afite intebo ari gushyiramo icyayi.

Umurima mugari cyane utewemo umuceri utemba itoto, imbere yaho hari undi murima utewemo imyumbati hahagazemo umugore wambaye imyenda irimo umuhondo yiteze igitambaro gisa umutuku.

Umurima mugari cyane utewemo igihingwa kizwi nk'icyayi. Akaba ari igihingwa mbaturabukungu. Hahagazemo abantu benshi bari gusoroma, bamwe muri bo bamanitse amaboko hejuru. Buri umwe afite umufuka, bamwe bari guteramo ifumbire.

Umurima mugari cyane utewemo icyayi kizwi nk'igihingwa mbaturabukungu, harimo abagabo babiri buri umwe ahetse intebo ari gusoromeramo icyayi, impande hakigijwe ishyamba.

Umurima mugari cyane, utewemo ikawa izwi n'igihingwa mbaturabukungu. Iruhande hari undi murima, urimo ibyatsi twifashisha tugaburira amatungo. Hakaba hakikijwe n'ishyamba rigari cyane.

Umurima mugari cyane utewemo ingano zeze, harimo abantu bagera ku munani buri umwe afite inanjoro ari gusarura ingano, impande hari ishyamba risa nk'aho ritemwe n'irindi ridatemwe.

Umurima mugari cyane utewemo igihingwa kizwi nk'igihingwa ngandurabukungu icyayi. Hahagazemo umugore wambaye imyenda y'umutuku yikenyeje umupira w'umweru, yiteze igitambaro gitukura afite intebo ari gusoromeramo icyayi.

umurima mugari cyane, utewemo icyayi kizwi nk'igihingwa mbaturabukungu. iruhande hari amashyamba ahakikije ndetse n'indi mirima ihinzwemo ibihingwa bitandukanye.

Igishanga kigari cyane gitewemo umuceri weze, harimo abantu bagera kuri makumyabiri bari gusarura umuceri bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, inyuma yabo hari umugezi.

Igishanga kigari cyane gihinzwemo umuceri. Harimo amazi menshi hahagazemo umugore wambaye imyenda isa umuhondo, ari kubagarira umuceri.

Umurima mugari cyane utewemo ikawa isa nk'aho itarera, hahagazemo abagabo babiri umwe ari gukora ku ikawa undi afite umuhoro mu ntoki, inyuma hari umugezi utemba.

Ubuhinzi mbaturabukungu bukomeje gutezambere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane utewemo ikawa hahagazemo umugore witeze igitambaro gitukura ari guseka ari gufata ku kawa.

Umurima mugari cyane utewemo amashu asa nk'aho yeze, impande yaho hari undi murima utewemo intoryi n'ibigori, hahagazemo umugore wambaye imyenda yo mu bitenge ndetse n'umugabo uri kurandura ifu.

Umurima mugari cyane uhagazwemo n'abantu bambaye imyenda iri mu mabara y'icyatsi, umwe muri bo afite umufuka w'ubururu mu ntoki, undi afite ishashi y'umukara, irimo itaka harimo urubuto ari gushyiramo ibitaka.

Umurima mugari cyane bari gucukuramo imyobo bakagenda bashyiramo ibiti. Harimo umugabo wambaye imyenda yiganjemo umukara n'umweru, yambaye ingofero y'ubururu ndetse afite n'isuka. Undi ari kuyora itaka ashyira mu mwobo.

Umurima mugari cyane urimo ibyatsi bitoshye, harimo umugabo uri guteramo urubuto ruzwi nk'ipera, abandi bahagaze inyuma ye bafite izindi mbuto mu ntoki.

Igishanga kigari cyane kirimo abantu batandukanye buri umwe afite isuka, abandi bafite ibitebo birimo ifumbire bari kugenda bashyira muri buri mwobo, impande yaho hari umurima urinzwemo inyanya.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane utewemo ibigori bitemba itoto. Hahagazemo umugabo wambaye umupira urimo amabara atukura, umweru n'umukara, afite ibigori mu ntoki.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, bafite ibipapuro mu ntoki, imbere ku kibuga gihari hari ingurube, bamwe bafashe imirunga yazo mu ntoki, bamwe bafite imitaka iruhande hari umurima uhinzwemo ibitoki.

Umurima mugari cyane urimo ibyatsi twifashisha tugaburira amatungo, ukikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye, hahagazemo abagabo babiri buri umwe afite isuka ku rutugu, umwe yambaye imyenda y'umweru n'umukara undi yambaye umutuku n'umukara.

Umurima mugari cyane wasaruwemo imyaka. Harimo ibyatsi twifashisha tugaburira amatungo. Harimo abagabo batatu umwe muri bo afite umuhoro undi yikoreye inkwi ku mutwe.

Umurima mugari cyane utewemo umuceri, impande hari inzira iri kugendwamo n'abantu umwe muri bo afite isuka, bamwe bafite ibitiyo bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye.

Umurima mugari cyane wamezwemo ibyatsi twifashisha tugaburira amatungo, hagati hari akayira harimo igare bari gusunika rihetse imifuka umugabo umwe ari gutwara undi ari gusunika.

Umuhanda mugari cyane urimo inka zishorewe n'abantu babiri umwana n'umuntu mukuru, iruhande rw'umuhanda hari imirima ihinzwemo ibishyimbo n'ibirayi ndetse n'uruzitiro ruhakikije.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu ndetse n'Abaturarwanda muri rusange, igishanga kigari cyane gihinzwemo pavuro zigiye zihinzwe ku murongo, hagati harimo igikoresho kifashishwa mu kuzivomerera.

Umurima mugari cyane utewemo ibihingwa bitandukanye, ibigori, ibishyimbo ndetse n'ibitoki, hahagaze umugore ufite igipapuro mu ntoki yambaye imyenda iri mumabara y'ubururu yiteze igitambaro gitukura ari guseka.

Umurima mugari cyane utewemo ibigori, bimwe birenze ibindi bisa nkaho bitarera, hahagazemo umugore n'umugabo buri umwe afite isuka bari kubibagarira, umwe yambaye imyenda itukura undi yambaye iy'umweru.

Umurima mugari cyane uri mu gishanga utewemo ibishyimbo bisa neza cyane, iruhande hari ishyamba rihakikije ndetse n'imigano, harimo umuntu ufite isuka wambaye ikanzu y'igitenge.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere abaturage ndetse n'Igihugu muri rusange, umurima mugari cyane uri mu gishanga utewemo ibishyimbo n'ibirayi, harimo abantu bagera kuri batanu bari kubibagarira harambitsemo ibase iri mu mabara y'ubururu.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umurima mugari cyane uri mu gishanga uhinzwemo ibigori. Hagati muri byo hari umuhanda ndetse n'ibihombo twifashisha tubivomerera.

Ubworozi bukomeje kuduteza imbere, ibiraro birimo inka zigiye zitandukanye zose ziri kurira ubwatsi mu dutanda twazo, imbere hari umushumba wazo ufashe ku kiraro ndetse hari n'ibyo zinyweramo amazi.

Ubworozi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, ikiraro cyubakishijwe n'ibiti harimo inka iri kurira ubwatsi mu gatanda kayo, imbere hari umugabo wambaye ishati iciye amaboko, iri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Igishanga kigari cyane gihinzwemo umuceri. Harimo abantu bagera kuri batanu bari kuwubagarira. Umwe muri bo afite isuka. Bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, hagati mu muceri haciyemo umuhanda.

Ikibuga kigari cyane kirimo ibyatsi twifashisha tugaburira amatungo, hariho ibiti birambitse hamwe harimo n'umugabo wambaye imyenda y'umukara akaba afite inkoni mu ntoki.

Inka z'Inyambo zihagaze mu ishyamba indi ihagaze mu muhanda, ishyamba ni rigari cyane harimo ibiti by'amoko atandukanye nk'ibigori n'inturusu, iruhande hari inzu ndetse n'ibiraro by'inka.

Umurima mugari cyane uri mu gishanga. Hahagazemo abagore bane n'umugabo umwe buri umwe afite isuka bari guhinga. Hamwe haziritse amahene ahandi hari intama.

Igishanga kigari cyane, gihinzwemo umuceri. Hahagazemo abagore bane bari kuwubagarira. Iruhande hari ishyamba ritewemo ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'amazu akikije igishanga.

Umurima mugari cyane utewemo imboga. Hahagaze abagabo batatu buri umwe afite umufuka mu ntoki ari kurandura imboga. Bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu n'umweru. Umwe muri bo yambaye ingofero.

Ikibuga kigari cyane gihagazeho abantu babiri umugabo n'umugore, umugabo yambaye imyenda y'umukara, umugore yambaye iy'umweru, harimo inka z'amabara agiye atandukanye, zimwe zisa umukara, izindi zisa umutuku.

Umurima mugari cyane utewemo imbuto zigiye zitandukanye, higanjemo amapapayi hahagaze abagabo babiri ndetse n'abagore babiri, umwe muri bo afite ipapayi mu ntoki yambaye n'agapfukamunwa.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu ndetse n'Abaturarwanda muri rusange, umurima mugari cyane utewemo ibishyimbo biteye ku murongo, iruhande hari ibiti bihakikije ndetse inyuma y'ibiti hari undi murima uhinzemo ibigori.

Ubworozi bukomeje guteza imbere igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, ikiraro kirimo inka iri mu mabara y'umweru n'umukara, hahagaze umugore n'umugabo, umugabo afite ifumbire mu ntoki n'aho umugore afite ikayi mu ntoki.

Imbuto ni ingirakamaro ku buzima bwa muntu. Umurima mugari cyane utewemo ibiti by'amoko atandukanye. Voka, amapera ndetse iruhande hari undi murima urimo ibinyomoro, zimwe muri voka zirangiritse.

Ubuhinzi bukomeje kuduteza imbere, igishanga kigari gihinzwemo umuceri, umwe uri gusarurwa undi bari kuwuhinga hahagazemo abagabo bane, umwe muri bo yikoreye ibyatsi.

Abahinzi b'indabo bahagaze mu murima uhinzwemo indabo, imigano, imikindo ndetse bamwe bateruye imifuka irimo indabo abandi bahetse ibikapu.

Umurima mugari cyane uri mu gishanga utewemo ibigori bigiye biteye ku murongo, harimo umugore wambaye ingutiya y'umukara ndetse n'ishati iri mu mabara y'ibitenge, ari kurandura ibyatsi mu bigori.

Umurima mugari cyane utewemo intoryi ndetse impande hakikijwe ibiti byera imbuto voka, amapera n'imyembe, harimo abagabo babiri umwe muri bo afite isuka, undi afite igiti cy'umwembe ari gutera.

Umurima mugari cyane urimo ibyatsi twifashisha tugaburira amatungo. Harimo inzira hahagazemo abagabo babiri umwe yambaye bote afite umuhoro mu ntoki undi afite igare rihetseho inkwi.

Umurima mugari cyane utewemo amashu atemba itoto asasiwe n'ibyatsi byumye, harimo abagore bagera kuri batanu bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu, icyatsi n'ibitenge, barunamye bari gusasira amashu.

Umurima mugari cyane uri mu gishanga umezemo ibyatsi bitoshye, hagati hari inzira hari umugabo ufite igare rihetsweho ibyatsi, yambaye imyenda iri mu mabara y'umweru.

Umurima mugari cyane urimo ibyatsi twifashisha tugaburira amatungo. Impande hakikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye. Hahagazemo abagore babiri umwe afite icupa mu ntoki undi afite umuhoro.

Umurima mugari cyane utewemo ibigori bitoshye. Ku ruhande hari ubwatsi bwitwa urubingo. Hahagaze umugabo ufite umuhoro ari gutema ubwatsi bwo kugaburira amatungo.

Umurima mugari cyane uri gusarurwamo ibigori, hahagazemo abantu bagera kuri barindwi, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, buri umwe afite ibigori mu ntoki, iruhande hari umurima uhinzwemo ibishyimbo.

Umurima mugari cyane bari gucukuramo imyobo bakagenda bashyiramo imbuto ndetse harimo abagabo batanu. Bambaye imyenda yiganjemo icyatsi, ubururu buri umwe afite isuka.

Umurima mugari cyane usa nkaho usaruwemo amasaka, harimo umugore wambaye ikanzu y'igitenge yikenyeje umupira usa umukara, afite isuka ari guhinga impande hari umurima utewemo ibijumba n'ibiti.

Umurima mugari cyane uhinzwemo ibiti by'amoko atandukanye byera imbuto voka, ibinyomoro, amapapayi ndetse n'amatunda. Hahagaze abantu bagera ku icumi bambaye imyenda yiganjemo umukara n'umweru.

Umurima mugari cyane utewemo ibihingwa by'ubwoko bitandukanye. Imyumbati, ibigori, amateke ndetse hateyemo n'ibitoki. Ku mpande hari inzu nyinshi cyane, zifite amabara atandukanye.

Guhinga dukoresheje ifumbire y'imborera ni byiza cyane, umurima mugari cyane utewemo umuceri harimo umuntu uhagaze impande y'ikirundo k'ifumbire, ari gufata ifumbire akagenda ashyira ku muceri.

Umurima mugari cyane utewemo imyumbati, amateke ndetse n'ibitoki, bikaba bisasiwe n'ibigorigori byumye, impande hari ibiti bihakikije.

Umurima mugari cyane utewemo amashu asa nkaho yeze harimo ibikoresho twifashisha tubivomerera, iruhande hari undi murima utewemo ibigori bisa nkaho byumye hagati mu mashu hagiye hari ibiti.

Umurima mugari cyane utewemo ibiti byera imbuto, imyembe, voka, zimwe muri zo zireze izindi ntizirera, impande yaho hari undi murima utewemo imyumbati n'ibijumba.

Umurima mugari cyane utewemo imyumbati isa nkaho ibagariwe vuba. Iruhande hari ishyamba ririmo ibiti by'amoko atandukanye, ruguru hari umuhanda uriho amatara.

Umurima mugari cyane utewemo inyanya, harimo ibigori bisa nkaho byeze bimwe muri byo birumye, iruhande hari undi murima uteyemo ibiti by'amoko atandukanye.

Umurima mugari cyane utewemo inoryi zigiye ziteye ku murongo, zisasiwe n'ibyatsi byumye, iruhande rw'umurima hari ishyamba ririmo ibiti by'amoko atandukanye hamezemo n'ibyatsi twifashisha tugaburira amatungo.

Umurima mugari cyane uri mu gishanga uhinzwemo umuceri, hahagazemo imisambi ndetse n'abantu bari kubagarira umuceri, umwe muri bo afite umufuka asa nkaho ari guteramo ifumbire.

Ubuhinzi bwa kijyambere ni intambwe yo gutera imbere, umurima mugari cyane utewemo imyumbati igiye iteye ku murongo isa nkaho yabagariwe, hagati hahagaze umugabo ufite isuka.

Umurima mugari cyane utewemo ibigori bitoshye, iruhande hari umurima uhinzwemo imyumbati, hirya hari amashyamba ahakikije arimo ibiti by'amoko atandukanye.

Guhinga kijyambere biteza imbere abanyarwanda. Umurima munini cyane uhinzwemo ibitoki bisasiwe n'ibyatsi byumye. Iruhande hari undi murima uhinzwe vuba nta kintu giteyemo. Hakikijwe n'ibiti ndetse n'amazu.

Umurima mugari cyane utewemo imyumbati igiye isasiwe n'ibyatsi byumye, impande yaho hari inzu yubakishije amabati atukura, hagati hari umuhanda ndetse hari kugendamo abantu.

Umurima mugari cyane utewemo inyanya zisa nkaho zitarera, ishashijwe ibyatsi byumye harimo ibigori byumye cyane ndetse byariwe n'inyoni, hakaba hahagazemo umugabo.

Umurima mugari cyane utewemo ibigori, iruhande hari undi murima wamezemo ibyatsi ndetse n'ibiti bimeze neza cyane ahantu baragirira inka, iruhande rwawo hari undi murima utewemo ibitoki.

Umurima mugari cyane utewemo inyanya zisasiwe ibyatsi byumye, hahinzemo ibigori bisa nkaho byeze bimwe muri byo birumye, iruhande hari ishyamba rifite ibiti bitandukanye.

Igishanga kigari cyane gihinzwemo umuceri harimo abantu benshi bamwe bafite amasuka abandi bari kurandura ibyatsi mu muceri, iruhande hari ishyamba ririmo amoko y'ibiti bitandukanye.

Umurima mugari cyane uhinzwemo imyumbati, amateke, ibitoki, hari undi uri iruhande rwawo uhinzemo ubunyobwa ndetse hakaba harimo ibigori bisa nkaho byumye.

Umurima mugari cyane utewemo imboga twifashisha kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze. Harimo imbwija, karoti, imiteja, intoryi ndetse n'ibitunguru. Impande hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Igishanga kigari cyane gihinzwe kitaraterwamo imyaka, iruhande hari umusozi mugufi uhinzweho ibihingwa bitandukanye, ikaba ikikijwe n'amashyamba arimo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umurima mugari cyane uri mu gishanga uhinzwemo ibigori, iruhande hari amashyamba yamezemo ibyatsi twifashisha tugaburira amatungo ndetse n'ibindi biti bitanga umwuka mwiza.

Umurima mugari cyane utewemo imyumbati isa nkaho itarakura neza, impande yaho hari umuntu uhagaze wambaye imyenda yiganjemo umweru afite umufuka mu ntoki.

Umurima mugari cyane urimo ibyatsi twifashisha tugaburira amatungo, hariho ibigori byasaruwe birambitswe hejuru y'ibyatsi, impande hari umugore uhahagaze.

Ubuhinzi buteza imbere abaturage ndetse n'igihugu muri rusange, umurima mugari cyane uhinzwe kijyambere utewemo imyumbati igiye iteye ku murongo hahazemo umugabo ufite isuka mu ntoki.

Umurima mugari cyane usa nkaho uhinzwe vuba, uri kumeramo ibishyimbo, impande hakikijwe ibyatsi byumye, impande yawo hari undi murima, utewemo ibitoki, imyumbati n'amateke.

Umurima mugari cyane utewemo ubwoko bw'imbuto butandukanye voka, imyembe. Hashashwemo ibyatsi byumye ndetse voka zimwe zireze izindi ntizirera.

Umurima mugari cyane utewemo ubwoko bw'imboga butandukanye harimo imbwija, karoti, intoryi ndetse n'ibitunguru bisa nkaho bibagariwe vuba aha.

Imboga n'imbuto bisa neza cyane n'ibigori birambitse hasi harimo inyanya, karoti, imiteja, imineke, amaronji, urusenda, pavuro n'imbwija.

Umurima mugari cyane utewemo imyumbati harimo ikirenge cyambaye urukweto rusa umukara, iruhande hari ibindi byatsi byameze bitoshye twifashisha tugaburira amatungo.

Imboga ni ingirakamaro ku buzima bwa muntu kuko butuma tugira ubuzima buzira umuze. Umurima mugari cyane utewemo imboga z'amoko atandukanye imbwija n'ibitunguru.

Umurima mugari cyane utewemo ibigori bitemba itoto, bigiye biteye ku murongo kandi bisa nk'aho bibagariwe, hahagazemo umugabo uhetse ipombo mu mugongo ari kubitera umuti kugira ngo yice udukoko.

Isoko ririmo ibyo kurya bitandukanye higanjemo imboga, karoti ndetse na pavuro, harimo urusenda, hakabamo n'imbuto nk'imyembe, amaronji, umwe afite ibyangiritse mu ntoki.

Umurima mugari cyane utewemo ibitoki. Bikikije ubusitani burimo indabo z'amoko atandukanye n'inzu isakaje amabati y'umweru, ku nzuki no ku madirishya hateye irange risa ubururu.

Igishanga kigari cyane gihinzwemo ibigori bitoshye. Iruhande hari indi mirima ihinzwemo umuceri hagati haciyemo umuhanda. Hari umurima urimo abantu babiri bari guhinga.

Umurima mugari cyane utewemo ibigori, iruhande hari undi murima usa nk'aho baragiriramo inka, harimo ibyatsi bitoshye ndetse n'ibiti bitanga umwuka mwiza duhumeka.

Ishyamba rigari cyane ririmo ibiti by'amoko atandukanye, harimo inka ziri kurisha ubwatsi hasi, imbere y'aho hahagaze abashumba bafite inkoni mu ntoki, hakaba harimo n'amahene.

Ishyamba ni ingirakamaro kuko ridufasha guhumeka neza kandi rikadufasha mu kubona amakara. Ishyamba rigari cyane rigizwe n'ibiti by'amoko atandukanye, hagati harimo umuhanda uciyemo.

Umurima mugari cyane utewemo ibitoki ndetse ukikijwe n'ibiti, amazu yiganjemo amabati atukura, hagati hari icyuzi gihagazemo abantu bari kuroba amafi.

Amashyamba ari mu bintu bituma tugira umwuka mwiza. Ishyamba rigari cyane rigizwe n'ibiti by'amoko atandukanye, harimo n'indabo ziganjemo umuhondo, hubatsemo inzu isakajwe amabati y'icyatsi.

Amashyamba afite akamaro mu buzima bw'umuntu, adufasha guhumeka neza ndetse atanga n'amakara, ishyamba rigari cyane rigizwe n'ibiti by'amoko atandukanye, harimo bimwe byera imbuto n'ibindi bitera imbuto.

Ubutaka bugari cyane buhinzwemo ibimera bitandukanye harimo ibyatsi twifashisha tugaburira amatungo ndetse n'ibindi biti twifashisha mu mirimo itandukanye hagati harimo umugezi ushoka.

Ikibaya kinini kirimo amazu asakajwe amabati amwe asa nkaho ashaje. Impande yaho hari imirima irimo ibitoki ndetse n'indi irimo ibiti by'amoko atandukanye.

Ishyamba rigari cyane ririmo ibiti by'amoko atandukanye. Bimwe byaratemwe ibindi ntibiratemwa. Harimo ubusitani bwiza cyane ndetse hari n'amazi. Iruhande hari umuhanda unyurwamo n'abantu.

Imisozi itewemo ibihingwa bitandukanye higanjemo ingano, hamwe hari ishyamba ahandi hateyemo imbuto nk'ibinyomoro, voka, amapera ndetse n'amatunda.

Umuhanda mugari cyane uri kugendwamo n'imodoka. Impande hari amashyamba ari mu bwoko atandukanye ndetse hari n'amatara. Hahagazemo abagabo babiri bambaye imyenda iri mu mabara y'umukara.

Ishyamba rigari cyane rigizwe n'ibiti by'amoko atandukanye, hari bimwe byumye ibindi ntibiruma, bikikije umurima uhinzemo ibishyimbo, amashu n'undi utaraterwamo imyaka.

Ishyamba rya kimeza ririmo ibiti by'amoko atandukanye, harimo n'ibyatsi twifashisha tugaburira amatungo, iruhande rwaryo hari ikiraro cyubakishijwe ibiti gisakajwe amabati y'umweru.

Umurima mugari cyane utewemo ibihingwa bigiye bitandukanye, hatewemo ibiti byera imbuto nk'avoka, imyembe ndetse hari n'ibindi biti twifashisha mu gutwika amakara.

Ishyamba rigari cyane ririmo inka ziri kurisha ibyatsi hasi, harimo ibiti bisa nkaho bishaje ndetse harimo n'abashumba bazo, inka ziri mu mabara y'umweru n'umukara.

Umurima mugari cyane uhinzwemo ibitoki n'ibijumba. Impande yaho hari ibiti by'amoko menshi bimwe byera imbuto nk'avoka, amapera. Hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umukara.

Umurima mugari cyane utewemo ubwoko bw'imbuto butandukanye, voka, ibinyomoro, amatunda ndetse n'imyembe, impande yaho hari undi murima uhinzwemo ibitoki n'ibijumba n'amateke.

Umurima mugari cyane utewemo igihingwa kizwi nk'ikawa, akaba ari igihingwa ngandurabukungu. Imbere yaho hahagaze umuntu uhetse intebo mu mugongo, hakaba hakikijwe n'amashyamba agiye atandukanye.

Umurima mugari cyane utewemo ibihingwa bitandukanye: ibitoki, ibishyimbo, imyumbati, amateke. Hamwe hari inzu zisakajwe amategura ndetse n'ibiraro birimo inka.

Igishanga kigari cyane gitewemo ibihingwa bitandukanye nk'umuceri ndetse iruhande hari imisozi migufi itewemo amashyamba. Harimo ibyatsi byumye n'ibitaruma.

Umurima mugari cyane uri mu gishanga hahinzwemo ibihingwa nk'ibigori, ibitoki, imyumbati, iruhande hari ishyamba rya kimeza kandi hari n'ibiti byera voka.

Ishyamba rigari cyane rigizwe n'ibiti by'amoko atandukanye, harimo inyamaswa nk'inkende n'ingagi, hagati harimo amazu asakajwe amabati y'icyatsi, akaba yubakishijwe amatafari ahiye.

Ishyamba rigari cyane ririmo ibiti by'amoko menshi agiye atandukanye, hagati haparitsemo imodoka nini cyane isa nkaho ipakiye ibintu byinshi, hahagaze n'umugabo imbere yaho.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, umurima mugari cyane utewemo ibigori, ibihaza n'amateke, iruhande hateye ibitoke, hateyemo n'igiti cy'avoka.

Ikiyaga gikikijwe n'imirima itewemo ibihingwa bitandukanye. Amasaka, ibigori ndetse hari ahandi hari ishyamba ririmo ibiti by'amoko atandukanye.

Ishyamba rigari cyane rihagazemo umuntu wambaye imyenda y'umukara afite ishoka mu ntoki, hamwe haratemwe ahandi ntiharatemwa harimo ibiti by'amapera.

Umurima mugari cyane uri mu gishanga utewemo ibihingwa bitandukanye: ibirayi, ibishyimbo. Hakikijwe ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'umusozi uriho amazu. Amwe asakajwe amabati y'umweru.

Ubworozi ni intambwe y'iterambere rirambye. Umurima mugari cyane utewemo ibiti ndetse hamezemo ibyatsi bitoshye. Harimo inka ziri mu mabara y'umukara n'umweru, umutuku ziri kurisha ubwatsi.

Umurima mugari cyane utewemo intoryi zisasiwe n'ibyatsi byumye imbere yaho hari umugezi ukikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye, impande yaho hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye.

Ishyamba rigari cyane ryatemwe ibiti birambitse hasi byumye, ibindi ntibiruma imbere yaho hari umurima uhinzwemo ingano hahagazemo umugabo wambaye bote z'umukara.

Amashyamba ni ingirakamaro ku buzima bwa muntu kuko adufasha guhumeka neza ndetse atanga n'amakara. Ishyamba rigari cyane rigizwe n'ibiti by'amoko atandukanye. Harimo n'ibyatsi twifashisha tugaburira amatungo.

Umurima mugari cyane utewemo indabo zimwe zisa umutuku, umuhondo harimo abagore bagera kuri bane buri umwe ari guseka kandi afashe ku rurabo.

Ubuhinzi bwa kijyambere ni intambwe y'iterambere rirambye, umurima mugari cyane utewemo inyanya zisasiwe neza cyane kandi zimwe zireze izindi ntizirera, hahagazemo umugabo wambaye imyenda y'icyatsi ari gusoroma inyanya zeze.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, igitebo cyuzuyemo inyanya, umugabo wambaye imyenda itukura afite urunyanya mu ntoki, na ho umugore wikenyeje igitenge wambaye umupira w'ubururu afite amafaranga mu ntoki.

Umurima mugari cyane utewemo ibihingwa bitandukanye, voka ndetse n'ubwoko bw'imboga nk'imbwija, karoti, intoryi n'imiteja, hahagazemo umugore ufite telefone ari gufotora ibi bihingwa ari guseka.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje gutuma abaturarwanda tugira ubuzima buzira umuze. Umurima mugari cyane utewemo imbuto zigiye zitandukanye amapapaye, ibinyomoro kandi hasi hashashwe ibyatsi byumye.

Ubuhinzi bw'imboga ni bwiza kuko butuma tugira ubuzima bwiza, akarima k'igikoni gahinze neza cyane gahinzwemo imboga z'amoko atandukanye, amashu, ibitunguru ndetse harimo n'imbwija.

Umurima mugari cyane uhinzwemo inanasi, zimwe zireze izindi ntizirera. Hahagazemo umugabo ufite icyuma asa nkaho ari kuzisarura afite n'umufuka mu ntoki.

Ubuhinzi bw'indabo ni ingirakamaro kuko budufasha kugera kuri byinshi, umurima mugari cyane uhinzwe kijyambere harimo indabo ziri mu mabara atandukanye higanjemo umutuku, umuhondo n'umweru zikaba zitewe mu murima wubakiwe neza cyane.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uhinzwemo inyanya zimwe zisutse hasi, umugore yicaye hasi ari kuziyorera mu bitebo, kimwe kiruzuye ikindi ntikiruzura neza.

Ubuhinzi bw'indabo bufasha abantu gutera imbere, umurima mugari cyane utewemo indabo ziri mu mabara atandukanye higanjemo umutuku, umweru ndetse n'umuhondo.

Imbuto zidufasha kugira ubuzima buzira umuze, umurima mugari cyane utewemo ibinyomoro, voka ndetse ku ruhande hari ibiti by'amapera, hahagazemo umugore wambaye imyenda y'umuhondo ari gufata ku binyomoro.

Imbuto zidufasha kugira ubuzima bwiza, umurima mugari cyane uhinzwemo imbuto zigiye zitandukanye, harimo voka, amaronji, pome ndetse ku mpande hari ibindi biti bigiye bihakikije by'imyembe.

Ubuhinzi bw'indabo bukomeje guteza imbere abaturage ndetse n'Igihugu muri rusange. Umurima mugari cyane utewemo indabo z'amoko atandukanye n'amabara atandukanye icyatsi, umutuku, umuhondo ndetse n'umweru.

Umurima mugari cyane utewemo ibiti by'amoko atandukanye byera imbuto harimo voka, imyembe na pome, hahagazemo umugore ufite indobo ari kugenda asarura imbuto.

Umurima mugari cyane utewemo inyanya. Zimwe bari kuzisarura imifuka igera kuri itanu yuzuyemo inyanya. Umugabo umwe afite agatebo karimo inyanya ari kugenda asuka kuri buri mufuka.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, umurima mugari cyane utewemo imboga z'amoko atandukanye imbwija, amashu, bigiye biteye ku murongo, iruhande hari inzu zubakishijwe supanete, hari n'ishyamba.

Inyubako nziza cyane itewe amarangi y'umuhondo n'umukara. Harimo abantu bambaye ingofero z'umweru na'amataburiya y'umweru. Ibikarito birimo voka, buri umwe afite voka mu ntoki ari gukora no mu gikarito.

Umurima mugari cyane, utewemo ibihingwa bitandukanye amatunda, ibitunguru. Hahagazemo abagabo babiri n'umugore umwe, bari kugenda bamanika amatunda ku biti.

Akarima k'igigoni gahinzwe neza, gakikijweho n'imifuka isa ubururu n'umweru n'ibiti byiza cyane, iruhande hari igipangu cyubakishijwe ibyuma ndetse n'amatafari ahiye.

Umurima mugari cyane uhinzwe kijyambere utewemo amashu asa nkaho yeze, hahagazemo umugore wambaye umupira uri mu mabara y'umweru n'umukara yikenyeje n'igitenge kiri mu mabara atukura.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye higanjemo icyatsi n'umweru, bafite inyanya mu bitebo, bamwe bari kugura, abandi bari kugurisha, impande hari umurima w'ibisheke.

Umurima mugari cyane utewemo pavuro n'insenda, hahagazemo umugabo wambaye itaburiya isa icyatsi, afite ipaniye y'ubururu irimo pavuro n'insenda.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko bari kugura no kugurisha imboga, igitanda kiriho imboga zitandukanye karoti, intoryi, ibitunguru, imiteja, inyanya n'urusenda, hicaye abantu bambaye imyenda yiganjemo ibitenge n'ubururu.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, ibigori bitoshye cyane biteye mu gishanga hahagazemo umugabo ufite igihombo gisa ubururu ari kubivomerera, iruhande hari abandi bari kubibagarira.

Umurima mugari cyane utewemo intoryi, hahagazemo umugabo wambaye bote, ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara n'undi wambaye ubururu, umwe afite igihombo ari kuvomerera n'undi afite rozwari ari kuvomerera.

Igishanga kigari cyane gihinzwemo umuceri, hagati hagiye hacamo imigenda itwara amazi, hahagazemo abagabo babiri, iruhande hakikijwe n'ibiti.

Umurima mugari cyane uhinzwemo ibirayi, impande yaho hakikijwe ishyamba ririmo ibiti by'amoko atandukanye hagati harimo ibihombo twifashisha tuvomerera ibihingwa.

Umurima mugari cyane uhinzwemo imboga ziteye mu mitabo, harimo ibikoresho twifashisha tubivomerera, iruhande hari ishyamba rihakikije ndetse n'indabo z'amoko atandukanye.

Umurima mugari cyane uri mu gishanga utewemo ibirayi biteye ku murongo hagati y'umurongo n'undi harimo metero, hari ibikoresho byifashisha babivomerera, iruhande hari imirima iri mu misozi itewemo ingano.

Umurima mugari cyane utewemo ibigori bitoshye. Biragariwe, harimo ibyuma bifashisha babivomerera, iruhande ku musozi uhari hariho amashyamba ndetse n'ibiti byera imbuto.

Ubuhinzi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, umurima mugari cyane uteyemo ibigori bitemba itoto, hahagazemo abantu bagera muri mirongo ine bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, hagati mu murima hari igikoresho cyifashishwa mu kuvomerera ibi bigori.

Amashu ahinze mumitabo ahagazemo umugore witeze igitenge yambaye ikanzu itukura, afite indobo y'umutuku ari kugenda asuka amazi kuri buri shu, impande ye hari ibiti byera imbuto.

Umugezi mugari cyane ukikijwe n'ibihingwa bigiye bitandukanye, nk'ibisheke ndetse n'amashyamba, impande hari uturindabasazi ndetse hahagaze n'umuntu wambaye imyenda.

Abagabo babiri bahagaze ku nkengero z'umugezi. Umwe yambaye ishati itukura undi yambaye ikote ry'umukara. Hakurya hari umurima uhinzwemo ibihingwa bitandukanye ndetse n'ibiti biteye ku nkengero z'amazi.

Umurima mugari cyane ukikijwe n'ibiti by'amoko agiye atandukanye, hahinzwemo intoryi ndetse harimo n'igiti cy'avoka, hahagazemo umugabo ufite igihombo uri kuvomerera intoryi, yambaye imyenda iri mu mabara y'umukara n'ubururu.

Umurima mugari cyane utewemo intoryi zisasiwe n'ibyatsi byumye, impande yawo hari undi murima utewemo ibitoki hahagazemo abantu batatu, abagabo babiri n'umugore umwe. Buri umwe afashe ku gihombo bari kuvomerera intoryi.

Umurima mugari cyane uhinzwe kijyambere. Imitabo itewemo ibirayi, bisa nk'aho byenda kwera, harimo ibikoresho bifashisha babivomerera. Iruhande hari umugezi utemba, hahagaze abantu babiri.

Umurima mugari cyane utewemo imbuto zigiye zitandukanye ibinyomoro, amatunda n'amapapayi, hahagazemo umugore wambaye imyenda iri mu bitenge, afite igihombo ari kuvomerera izi mbuto.

Umurima mugari cyane utewemo imboga z'ubwoko butandukanye imbwija n'intoryi, harimo n'uteyemo ibigori, impande yaho hakikijwe n'ibiti byinshi cyane ndetse hagati mu mboga harimo ibihombo bifashisha bavomerera ibi bihingwa.

Umurima mugari cyane uhinzwemo ibishyimbo bikaba bihinzwe kijyambere, hahagazemo umugore wambaye imyenda irimo ibitenge afite rosori ari kubivomerera, undi mugore ahagaze iruhande rwe.

Umurima mugari cyane utewemo ibigori n'ibishyimbo hahagazemo umugabo wambaye imyenda isa ubururu n'icyatsi, afite igihombo ari kuvomerera ibi bigori n'ibishyimbo.

Umurima mugari cyane utewemo inanasi. Iruhande hari undi murima utewemo ibigori. Mu nanasi hahagaze umugore wambaye ikanzu, iri mu mabara atukura n'umukara n'umweru. Afite igihombo ari kuvomerera inanasi.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda. Imitabo ihinzwemo intoryi hahagazemo abantu bane. Bamwe bari kuzisasira undi afite igikoresho yifashisha azivomerera.

Umurima mugari cyane uhinzwemo ibigori, hagati harimo imashini yifashishwa mu kubivomerera ku musozi waho hari ibiti by'amoko atandukanye, harimo ibyera avoka n'amapera.

Indinganire ziri ku musozi zitewemo ingano, ibirayi, ibigori hari ahandi hahinzwe hadatewemo igihingwa, hagiye hakikijwe ibiti by'imirwanyasuri.

Indinganire ziri ku musozi zihinzwemo ibihingwa bitandukanye ibirayi, ibigori, ibishyimbo. Hamwe harahinze nta kintu giteyemo hakikijwe n'ibiti by'ibirwanyasuri.

Umurima utewemo ibishyimbo n'ibigori, iruhande hari amazu asakajwe amabati y'umweru ndetse hari n'umusozi uriho indinganire zitewemo ibishyimbo, iruhande hari ibiti by'amoko atandukanye.

Ubuhinzi buhinzwe kijyambere umurima usisitsemo imbuto zigiye zitandukanye voka, imyembe ndetse n'ibindi biti, hari inzu zisakajwe amabati y'umweru n'izisakajwe amategura, ku ruhande hakikijwe n'amashyamba.

Umurima mugari cyane uri mu gishanga utewemo ibigori, ku musozi waho hari ibitoki bihatewe ndetse n'ishyamba, hagati hari umugezi ushokamo amazi, hahagaze umugabo.

Umurima mugari cyane w'indinganire uteyemo ibihingwa bitandukanye, ingano, ibigori ndetse n'ibirayi, harimo amazu yubakishijwe amatafari ndetse asakajwe amabati.

Ibiyaga ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu ndetse n'inyamaswa ziba mu mazi, ikiyaga kigari cyane gikikijwe n'imisozi mito, hari ibiti ndetse n'imirima ihinzwemo ibihingwa.

Umurima mugari cyane utewemo ibihingwa bigiye bitandukanye, ibigori, imyumbati, ibijumba, ibirayi, imwe mu mirima ikikijwe n'amashyamba ndetse harimo n'umuhanda uhagazemo abantu.

Mu muririma mugari cyane uhinzwe kijyambere. Uhinzwemo ingano, ibishyimbo, imyumbati ndetse hejuru hari ibiti by'amoko agiye atandukanye. Mu mitabo hahagazemo abantu babiri.

Umurima mugari cyane utewemo ibihingwa bigiye bitandukanye nk'ibitoki, impande yawo hakikijwe ibiti biri mu moko atandukanye n'amazu asakajwe amategura n'amabati.

Indinganire zitewemo ibihingwa bitandukanye, hamwe hateyemo ibirayi, ibishyimbo ndetse n'ingano, hagiye hakikijwe ibiti by'imirwanyasuri, hagati hari inzira iciyemo.

Uburobyi budufasha kugera kuri byinshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikiyaga kigari cyane gikikijwe n'imisozi y' migufi igizwe n'ibiti ndetse n'imirima iteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye.

Umusozi utuwe cyane harimo amazu amwe asakaje amabati atukura, umweru n'ubururu, iruhande hari ishyamba ndetse n'ibiti byera imbuto nka avoka, amapera n'amapapayi.

Imisozi iriho imirima iteyemo ibihingwa bitandukanye, ibishyimbo, ingano, ibigori ndetse n'ingo zikikijwe n'ibitoki. Zimwe zisakaje amabati, izindi zisakajwe n'amategura.

Umurima uri mu gishanga utewemo umuceri n'ibirayi, iruhande hari ishyamba rihakikije ririmo ibiti by'amoko atandukanye, undi murima uhinzemo ibigori.

Indinganire ziri mu misozi zihinzwemo ibihingwa bitandukanye, ibishyimbo, ingano, ibirayi. Hagati hahinzemo ibiti by'imirwanyasuri ndetse harimo n'inzu zisakajwe amabati y'umweru.

Imisozi iteganye ihinzweho ibihingwa bitandukanye, hamwe hari indinganire zihinzwemo ingano ahandi hari umurima mugari cyane uhinzwemo ibigori, ingo zikikijwe n'ibitoki n'ibiti.

Ikiyaga kigari cyane twifashisha turoba amafi, iruhande hari ubusitani bwiza cyane burimo ibiti bitanga umwuka mwiza, bimwe muri byo byera imbuto nk'avoka.

Ibiyaga ni ingirakamaro, ikiyaga kigari cyane kigiye gikikijwe n'imisozi migufi itewemo ibiti by'amoko atandukanye ndetse hamwe hari imirima ihinzwemo.

Imirima migari cyane ihinzwemo ibihingwa bitandukanye; imyumbati, amateke, imboga nk'imbwija, ibitunguru, inyanya ndetse n'intoryi. Hagati hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isakajwe amabati y'umweru.

Ikiraro cyubakishijwe ibiti ibihagaze ndetse n'ibitambitse. Harimo ibyatsi bihashashe ndetse n'ikigorigori. Hahagazemo inka iri mu mabara y'umukara yambaye amaherena.

Ubworozi bwa kijyambere bwageze kuri bose, inyubako nziza cyane itewe amarange y'umweru, harimo inka ziri ku bitanda ndetse hahagazemo abagabo babiri, umwe yambaye ingofero undi yambaye ishati y'umweru.

Ishyo ry'inka riri kurisha ubwatsi hasi. Impande hari ibiraro byazo n'ibiti by'amoko atandukanye. Hari abashumba bazo bafite inkoni ndetse n'ibikoresho bifashisha gukama

Umurima mugari cyane urimo ibyatsi twifashisha tugaburira amatungo. Harimo ihene ziri kurisha, hahagaze n'umushumba wazo wambaye imyenda iri mu mabara y'umuhondo n'umukara. Iruhande rw'imirima hari ibiti.

Ubworozi bw'inkoko bwatugejeje kuri byinshi, inkoko nyinshi cyane ziri mu mabara atukura n'umweru n'umukara, zimwe ziri gutora ibyo kurya hasi izindi zirahagaze izindi ziraryamye, hahagazemo umugabo wambaye bote n'imyenda y'umukara.

Ishyo ry'inka z'inyambo, zihagaze mu kibuga harimo abagabo bane, umwe muri bo ari kuziha ubwatsi ndetse imbere yaho hari intebe iteretseho ikarito.

Ikiraro kirimo inka bari gukama ndetse n'umwana wayo uryamye hasi ku byatsi bisa nkaho byumye, harimo umuntu wambaye ingofero itukura, ishati y'icyatsi n'ipantaro y'umukara ari gukama.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara, harimo inkoko nyinshi ziri mu mabara y'umutuku, y'umukara n'umweru, zimwe ziraryamye izindi ziri gutora ibyo kurya hasi.

Ikibuga kigari cyane gishashwemo ibyatsi byumye, harimo inkoko ziri mu mabara atandukanye umukara, umutuku, umweru, harimo indobo ndetse n'imifuniko inkoko ziyifatiraho ibyo kurya.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje kuduteza imbere, ibibuti birimo inkwavu hahagaze abantu benshi bambaye amataburiya y'umweru, umwe muri bo afite ikaramu ari kwandika mu ikayi, undi afite urushinge.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere abaturarwanda ndetse n'igihugu muri rusange, umurima mugari cyane umezemo ibyatsi bitoshye bimwe bisa nkaho byumye hahagazemo ihene ziri mu mabara y'umweru n'umukara.

Ubworozi bukomeje guteza imbere abaturarwanda ndetse n'Igihugu muri rusange. Ikiraro gisashwemo ibyatsi byumye, haryamyemo ingurube iri mu mabara y'umutuku. Imbere yaho hari ubwatsi ndetse hahagaze n'umugore wambaye imyenda iri mu mabara y'ibitenge.

Ikiraro kirimo inka nyinshi ziri mu mabara atandukanye umutuku, umukara n'umweru. Hasi hashashwe ibyatsi byumye harimo abagabo babiri bari gukama inka.

Ubworozi ni ingirakamaro kuko bidufasha kugera kuri byinshi, ibiraro birimo inka ziri mu mabara y'umweru n'umukara ziri kurya ubwatsi mu gatanda, imbere y'aho hari umushumba wambaye isarubeti y'ubururu.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere Igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange. Ikibuti kirimo inkwavu zifite ibara ry'umukara n'umweru, imbere hahagaze umugabo wambaye itaburiya y'umukara.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje kuduteza imbere, inkwavu ziri mu bibuti, buri rukwavu imbere hari igikoresho ruriramo. Zimwe zisa umweru, izindi zisa nk'umukara. Buri imwe ifite ibyo kurya mu kibase.

Inkoko ziri gutora ibyo kurya ku ndobo no ku mifuniko iri mu mabara y'umutuku n'umweru. Zimwe zirahagaze, izindi ziraryamye ku byatsi bisa nkaho byumye.

Ubworozi ni ingirakamaro. Ibiraro birimo inka zigera muri eshanu, ziri kurya ubwatsi buri mu gatanda, imbere hari umushumba wazo uhagaze afite inkoni. Inyuma hari ubusitani bwiza buhagazemo izindi nka nyinshi.

Kwita ku matungo, tuyaha imiti bituma zikura neza. Ikibuga kigari cyane kiriho amahene, hahagaze abantu batanu, umugabo wambaye bote z'icyatsi n'imyenda y'umweru, afite icupa ririmo umuti, ari guha ihene.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda, inkoko nyinshi cyane zisa umutuku, umweru n'umukara zimwe ziri gutora ibyo kurya, izindi ziraryamye, izindi zirahagaze.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere Igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, inkoko nyinshi cyane ziri hamwe zimwe ziri gufata ibyo kurya izindi zihagaze ku biti, imwe muri zo ihagaze ku ndobo hejuru ifite umufuniko w'umuhondo.

Ubworozi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere abaturarwanda ndetse n'Igihugu muri rusange, ikiraro kigari cyane kirimo inka zihagaze ku mbaho, imbere hari udutanda zifatiramo ibyo kurya.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikiraro kirimo inkoko ziri mu mabara atandukanye umweru, umukara n'umutuku. Zimwe ziri gutora ibyo kurya izindi ziryamye ku biti.

Ishyo ry'inka riri mu biraro byazo, zimwe muri zo ziri kurisha ubwatsi zirira mu gatanda, imbere yaho hahagaze umushumba wazo, impande hari umurima urimo ibyatsi bitoshye.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, inkoko ziri mu kibuti ziri mu mabara atukura, ziri gutora ibyo kurya, impande yaho hari ibikoresho bifashisha bazikorera isuku.

Ubworozi bufasha abaturage ndetse n'igihugu gutera imbere. Ikiraro gisutsemo ibyatsi byumye. Haryanyemo ingurube iri mu mabara y'umukara. Ibyana byayo biri iruhande rwayo.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, harimo inkoko kazi ndetse n'amasake hari gutora ibyo kurya ku mifuniko isa umutuku.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko bari kugura no kugurisha amahene, ari mu mabara atandukanye umukara, umweru ndetse n'umutuku, zimwe muri zo ziziritswe ku biti.

Ikibuga kiriho ibitebo birimo imishwi y'inkoko, hari umugabo uri kuzifata azishyira mu bitebo ndetse ku ruhande hari igitebo gisa ubururu n'umukara n'umutuku.

Ikibuga kigari cyane kirimo inka ziri kurisha ubwatsi, hahagaze abashumba bazo bafite inkoni ku rutugu ndetse bafite n'ibikoresho mu ntoki bifashisha bari gukama, impande hari amahene aziritswe ku bushimangiro.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere abaturarwanda ndetse n'igihugu muri rusange. Inkoko nyinshi ziri gutora ibyo kurya, ziri kubitorera ku ndobo y'umweru n'umufuniko utukura.

Inkoko nyinshi ziri hamwe ziri mu mabara y'umukara, umutuku n'umweru, ziri gufatira ibyo kurya ku ndobo zisa umweru n'imifuniko yazo isa umutuku ziri ku byatsi byumye.

Ubworozi bukomeje guteza imbere abaturage ndetse n'igihugu muri rusange. Ikiraro cyubakishijwe ibiti ndetse n'imbaho. Hahagazemo inka ifite amabara y'umukara n'umweru, iri kurya ubwatsi, iri kurira mu gatanda kayo.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere igihugu cyacu, ikiraro kirimo inkoko ziri mu mabara y'umweru n'umutuku, inkokokazi ndetse n'amasake, zimwe muri zo ziri gutora ibyo kurya hasi izindi ziraryamye.

Ikiraro gisashwemo ibyatsi, hahagazemo ingurube y'umukara ndetse n'ibyana byayo bigera kuri bitanu biri konka, impande yaho hari ubwatsi ndetse hari n'ingurube imwe itari konka.

Ubworozi bwa kijyambere bukomeje guteza imbere Igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange, ibiraro birimo inka ziri kurya ubwatsi hakaba hashashemo ibyatsi byumye, hahagazemo umugabo ufite urushinge mu ntoki.

Ubworozi bukomeje kutugeza kuri byinshi kuko butanga amata n'ifumbire yo guteza ibihingwa, inka nini ndetse n'umutavu uryamye ku byatsi, umutavu uri mu mabara y'umweru n'umukara.

Ikiraro gisashwemo ibyatsi byumye, harimo inka ndetse harimo n'abantu, umwe muri bo ari gukama, impande hari umurima urimo ibyatsi bitoshye ndetse n'inyubako isakajwe amabati y'ubururu.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni ingirakamaro kuko budufasha kugera kuri byinshi, inzu yubakishijwe amatafari ahiye, harimo inkoko nyinshi cyane zimwe ziri kunywera amazi mu ibase isa umuhondo, izindi ziri gutora ibyo kurya hasi.

Guhinga dukoresheje ifumbire mvaruganda ni ingirakamaro, inzu nini cyane itewe amarange y'ubururu, hasi ku makaro harambitswe imifuka igiye ipanze ku murongo isa umuhondo.

Ikibuga gisashweho ishitingi, hariho ibihingwa bitandukanye, ibishyimbo bimwe bisa umweru, umuhondo, umukara, hasutsweho na karoti, soya ndetse n'ibirayi.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo ni ingirakamaro. Ikibuga gihagazweho n'umugore wambaye ingofero y'umukara, afite inkoko ari kugosora ibishyimbo bisa umutuku. Iruhande rwe hari umufuka urimo ibishyimbo.

Ikibuga kigari cyane kirambitsweho shitingi yanitsweho ibigori, harimo umugore wambaye imyenda itukura ndetse n'igitenge yiteze, ikindi gisa ubururu ari kwanika ibigori.

Imifuka myinshi cyane iri mumabara y'umweru, izamuyeho andi mabara ku ruhande y'icyatsi, umuhondo n'umutuku, yuzuyemo umuceri, irambitse hasi ku butaka, iruhande hari indi ituzuye neza.

Umurima mugari cyane uhinzwemo tungurusumu zisa nkaho zeze. Ku mpande hagiye hateye ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'ibisheke. Harimo inzu isakaje amabati ajya gusa umukara. Imbere yaho hari umuntu usutamye uri gukora kuri tungurusumu.

Umurima mugari cyane utewemo ibigori, impande hari undi murima udatewemo ahubwo harimo ibyatsi inka iri kurisha, impande hari umugabo ufite inkoni ku rutugu.

Ubworozi bukomeje guteza imbere abaturarwanda ndetse n'igihugu muri rusange. Ikiraro cyubakishijwe n'ibiti, harimo inka iri mu mabara y'umweru n'umukara. Hahagazemo abagabo babiri, umwe ari kuyitera urushinge undi afite inkoni mu ntoki.

Ubworozi bukomeje guteza imbere Igihugu ndetse n'Abaturarwanda muri rusange, ikiraro kirimo inka iri mu mabara y'umweru n'umukara, harimo umugabo uri gukama ndetse n'undi uri kuyizirika amaguru.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje guteza imbere igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange. Ikiraro cy'inkoko harimo inkoko zisa umukara, umweru n'umutuku. Ziri gutora ibyo kurya. Zimwe muri zo zihagaze ku ndobo hejuru.

Ishyamba rigari cyane hamwe hari ibiti bikuze ahandi hari ibisa nk'ibyatemwe. Haryamyemo imbwa ziri mu mabara y'umweru, umukara n'umutuku. Imbere yawo hari amasahane ziriramo.

Ubworozi bw'amatungo bukomeje guteza imbere abaturarwanda ndetse n'igihugu muri rusange, ikiraro kigari cyane kirimo ingurube ibyana byayo biri konka, harambitswemo amabase arimo ibyo kurya byayo.

Uburezi bukomeje guteza imbere Igihugu cyacu ndetse n'abaturarwanda muri rusange. Icyumba cy'amashuri kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano yiganjemo umweru n'icyatsi, bambaye udupfukamunwa ndetse n'ingofero zisa ku mutwe.

Inka zigera muri eshanu ziri mu biraro, hahagazemo umugore wambaye ingofero y'umukara, itaburiya y'umweru n'ingutiya y'igitenge, afite urushinge ari gutera inka.

Ibiraro birimo inka zigiye zitandukanye. Imbere yaho hari abashumba babiri bafite ubwatsi mu ntoki ndetse n'umugore wambaye itaburiya y'umweru, ari gutera inka urushinge.

Ubworozi bukomeje guteza imbere Igihugu ndetse n'abaturarwanda muri rusange. Ikiraro kirimo inka, inyuma yaho hari abashumba ndetse n'abavuzi bari kuyitera urushinge.

Ishyo ry'inka z'Inyambo ziri mu kibuga, imbere yaho hari abagabo babiri umwe yambaye imyenda y'ubururu undi yambaye iy'umukara afite inkoni, impande yaho hari ubusitani bwiza cyane.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, imbere hari ubusitani bwiza cyane burimo indabo zitandukanye n'ibiti bitandukanye, hari abantu batanu buri umwe yambaye imyenda iri mu mabara atandukanye n'ay'undi, umwe muri bo afashe ikiziriko kiri mu izosi ry'imbwa.

Ubworozi bwa kijyambere bwageze kuri bose, inka ziri mu biraro ziri mu mabara y'umweru n'umukara ziri ku byatsi byiza cyane ndetse imbere yazo hari n'ubundi bwatsi butoshye.

Ubworozi bukomeje kutugeza kuri byinshi. Inka ihagaze ahantu mu ishyamba, iri mu mabara y'umukara n'umweru isa nkaho yangiritse iri kuva amaraso mu rubavu. Iruhande hari ibyatsi biharambitse.

Ishyamba rigari cyane ririmo ibiti by'amoko agiye atandukanye. Harimo inyamaswa zimwe zikurura ba mukerarugendo bityo zikinjiza amadovize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Harimo impara n'imparage.

Inyamaswa ziri mu bintu bikomeje guteza imbere Igihugu cyacu cy'u Rwanda kuko zinjiza amadovize, umurima mugari cyane urimo inyamaswa zigera kuri eshatu inzovu, akana k'inzovu n'izindi nkuru ebyiri.

Inyamaswa ziba mu mashyamba zikomeje gukurura ba mukerarugendo bityo zikinjiza amadovize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ishyamba rigari cyane ririmo inyamaswa zigiye zitandukanye inzovu, inkende ndetse harimo n'ingagi.

Ishyamba ririmo inyamaswa: intare, inzovu, impara n'imparage. Zikaba zikurura ba mukerarugendo bityo zikinjiza amadovize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kikarushaho gutera imbere.

Umuhanda mugari cyane wa kaburimbo. Hakikijwe n'amazu atewe amarange y'umweru, hagati mu muhanda harimo ingagi enye. Impande yaho hari ibiti bihakikije.

Hari zimwe mu nyamaswa zikomeje kuduteza imbere biciye mu gukurura ba mukerarugendo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ishyamba rigari cyane ririmo inyamaswa zitandukanye, inzovu, intare n'impara.